Inyubako nziza iri ahantu heza, ifite ahantu hanini ho kuyakirira, harimo intebe n'ameza. Imbere y'iyi nyubako hariho ubusitani bwiza kandi bugaragara neza.

Inzu y'ubucuruzi icuruza inzoga zitandukanye ,imbere yayo hariho ahantu hagari kandi hanini, hateretse ameza n'intebe ,n'imitaka abaje babagana bicaramo kugira ngo izuba ritabica. Iyi bare yakira abantu neza ku buryo bushimishije.

Inyubako nziza icururizwamo ibyo kurya nibyo kunywa dukunda kwita bare cyangwa se resitora. Ifite ahantu hagari ho kwicara, ameza n'intebe nyinshi, abakiriya baje bayigana bagenda bishimye, kandi banyuzwe.

Ahantu heza, hubatse neza, hafite ameza yo kuriraho akoze neza, kandi bigaragare ko umuntu wese uje kwiyakirira ahangaha yakirwa neza, kuko yahasanga buri kimwe hari igikoni ndetse n'abakozi beza.

Umukozi ukora muri bare yita ku bakiriya bamugana. Buri wese uje amugana amuha icyo akeneye kandi akakimuhana umutima mwiza, akamuha buri kimwe. Buri wese rero yifuza kuza kwiyakirira muri iyi bare kubera ko bagira kasitoma nziza.

Ibiribwa byiza bigizwe n'ifi, ifiriti, imboga mbisi dukunda kwita salade. Ni ibiryo by'intungamubiri zihagije, ibiryo wabifashe uba wariye intungamubiri nziza.

Hano iwacu tugira ahantu henshi ho kwiyakirira iyo umuturage afite ubukwe cyangwa se abashitsi ashobora kujya kubakira aho twita muri resitora cyangwa se muri bale kugira ngo abashitsi be abakire neza bagende bishimye.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo imigati itandukanye imigati yoroshye amandazi ndetse n'imbada harimo n'icyayi ku rubaraza rw'iyo nzu hatanditseho n'indi myenda itandukanye.

Mu rwego rwo kwiteza imbere, harimo no gutunga telefoni. Telefone ni igikoresho gikoreshwa kuri buri muntu wese. Kidufasha guhanahana amakuru kikatugabanyiriza urugendo. Bityo gutunga telefoni ni ikintu cy'ingenzi kuri buri muturage.

Urujya n'uruza rw'abantu baremye isoko. Isoko riciriritse ritubakiye. Abacuruzi bacururiza ibicuruzwa byabo hasi bifashishije udufuka. Hariho n'abacuruza ibisheke ubona ko baba babyubakiye utuntu tumeze nk'udutanda. Abacuruzi babona amafaranga ku buryo buboroheye.

Inzu z'ubucuruzi zubatse ku muhanda, zubatse ku buryo bwa kijyambere, zicuruza ibicuruzwa bitandukanye, harimo: imyenda y'abagore, iy'abagabo ndetse n'iy'abana.

Ubucuruzi butandukanye harimo ubucuruzi bw'imyenda: amashuka, amasume, ibiringiti ndetse n'ibikapu. ubu bucuruzi ni ubucuruzi bwiza buri wese icyo akeneye arakibona.

Inzu y'ubucuruzi icuruza ibicuruzwa bitandukanye, harimo inkweto: iz'abagore, iz'abagabo n'iz'abana. Izi nkweto ni nziza cyane, nta muntu ushobora kuhagera ngo abure inkweto agura.

Hano iwacu tugira butike zitandukanye zicuruza imiti y'amatungo magufi cyane cyane amatungo y'inkoko bityo rero bigatuma umworozi w'inkoko atabura imiti yo kuvuza amatungo ye.

Iduka ricuruza ibintu byinshi bitandukanye, harimo imifuka y'umuceri na za kawunga, imbere y'ijyo duka hahagaze abasore benshi, cyangwa se abagabo, haparitse igare ku muryango, ndetse hariho n'umumotari uhaparitse

Ibikoresho dukoresha mu rugo bitandukanye, amabase, amasafuriya ndetse n'ibikombe. Ibi bikoresho ni ibikoresho byiza, kuko umuturage wese ubifite aba afite ibikoresho byujuje ubuziranenge.

Ubucuruzi bucuruza ibikoresho bitandukanye harimo ibikoresho dukoresha tuzana amazi mungo zacu harimo amatiyo manini ndetse n'amatoya bityo nta muturage ushobora kubura igikoresho cyo gukora amazi afite iri duka.

Inyubako y'ubucuruzi yubatse ahantu heza, irageretse, yubatse ku buryo bwa kijyambere, muri ubu bucuruzi, harimo ubucuruzi bwinshi butandukanye imifuka y'umuceri, kawunga n'indobo za OMO. Hanze ku muryango hateretseho n'amagaze, nta muntu ushobora kubura gaze yageze hano.

Inyubako nziza iherereye ahantu heza ku muhanda, icururizwamo ibitambaro bitandukanye dukunda kwita amatisi. Amatisi ni ibitambaro byiza kandi bikomera, bidodeshwamo imyenda y'abagabo, abagore ndetse n'abana.

Inzu z'ubucuruzi ziri ahantu ku muhanda， zubatse neza，zicururizwamo ibicuruzwa bitandukanye， harimo amavuta yo kurya， ayo kwisiga，kawunga， ibirayi，ndetse n'ibindi byinshi. Muri izi nzu，ntiwahaburira ibyo kurya.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, hepfo gatoya hari undi muryango, ucururizwamo inzoga z'ubwoko bwose, n'imodoka bifashisha bajya kurangura inzoga.

Inyubako nziza yubatse ahantu heza yubatse kijyambere, iyi nyubako icuruzamo ibicuruzwa byinshi bitandukanye iherereye ku muhanda ndetse imbere ya yo hariho umutaka wa emutiyene.

Amazu y'ubucuruzi yubatse neza ari impande y'umuhanda, imbere y'ayo mazu hariho umutaka wa Emutiyene, impande y'uwo mutaka hariho akabati karimo ibicuruzwa amavuta ,amafu, ndetse n'ibindi munsi y'umuhanda hicaye umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'ubururu.

Iduka ricuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye harimo amateleviziyo ,amamikoro ,amaradiyo ,amatelefone ndetse n'ibindi byinshi. Iri duka warisangamo buri kimwe cyose ukeneye cy'ikoranabuhanga.

Ubucuruzi bucururizwa inyuma y'igipangu harimo: amasakoshi, harimo amashapure, amaherena ndetse n'ibindi bikomo byinshi bitandukanye. Ibi bicuruzwa buri wese bitewe nuko abyifuza abona icyo akeneye.

Inzu z'ubucuruzi zubatse kijyambere. Ubwo bucuruzi harimo ubucuruzi bw'amagare ndetse n'ibikoresho byabo. Hepfo gato hari undi muryango ucuruzwamo ibyo kurya, amakara, ndetse n'ibindi.

Inzu y'ubucuruzi yubatse ahantu heza, yubatse ku buryo bwa kijyambere, ifite imiryango itatu, iyo miryango yose irafunze. Ku muryango wa mbere hicaye umukobwa, wambaye ijile ya emutiyeni.

Isoko ryiza rya kijyambere ricuruza ibicuruzwa byinshi bitandukanye, harimo: imyenda y'abana iy'abakuru, ibikoresho by'isuku, ibikoresho byo ku meza, ibiryamirwa ndetse n'ibindi bityo umuturage ugiye kubihaha ntabura icyo akeneye.

Ubucuruzi bw'imiti ivura abantu, muri iyi nzu hacururizwamo imiti myinshi itandukanye ivura abantu. Umuturage wese uyigannye abona imiti ihagije kandi ikamugirira umumaro.

Butike icuruza ibicuruzwa byinshi. Harimo imyenda, amatelefone ndetse n'ibindi bikoresho byose by'ikoranabuhanga. Iyi butike iherereye ahantu heza ku muhanda, ku buryo nta muturage ushobora gukenera ikintu ngo akibure.

Inyubako nziza iri ahantu heza icururizwamo ubucuruzwa butandukanye, habamo sitidiyo, papeteri ndetse n'ibindi imbere yiyi nyubako haparitseho n'amamoto ndetse n'imodoka hariho n'ubusitani bwiza.

Urujya n'uruza rw'imodoka zifite icyerekezo gitandukanye, n'abantu bari gutega bamwe bazamuka abandi bamanuka. Bivuze ngo izi modoka ziri gufasha abo bagenzi kugera aho bagera ku buryo buboroheye.

Ubucuruzi bw'imyenda itandukanye harimo: amashuka, amasume, ibiringiti, ndetse n'imisego. Ibi bicuruzwa ni ibicuruzwa byiza kandi bikunzwe, nta muntu n'umwe ushobora kubikenera ngo abibure.

Inzu z'ubucuruzi, zubatse ahantu ku muhanda zifite ibicuruzwa byinshi bitandukanye, imbere yazo haparitse moto ndetse n'udutebe, muri izi nzu ntiwaburamo icyo ukeneye cyose.

Umucuruzi ucuruza ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo iby'ikoranabuhanga. Amaradiyo, amateleviziyo, amasharijeri ndetse n'ibindi byinshi. Uyu mucuruzi yiteje imbere ku buryo bushimishije.

Inzu z'ubucuruzi zubatse ku muhanda. Imbere yazo, hariho aba ajeti ba emutiyene. Kuri uwo muryango hariho abantu bakora ibijyanye no gutunganya imisatsi y'abagore. Bivuze ngo aba bacuruzi biteje imbere ku buryo bwose.

Iduka ririmo imashini zidoda imyenda, iri duka ku rubaraza rwayo hatanditseho ibitenge ndetse n'ibikapu, hari ho n'umugabo uhadodera inkweto. Iri duka riri ahantu ku muhanda, nta muntu n'umwe ushobora kuhagera ngo agire ikibazo cy'urukweto rwacitse.

Hano iwacu, dufite iterambere ryihuse harimo no kubaka inyubako zigezweho, bityo mu buryo bwo kubaka inyubako zigezweho, twifashisha sima kandi sima ikorerwa hano iwacu mu Rwanda ni yo mpamvu tuvuga ko twitejeje imbere.

Iduka ricuruza imigati, itandukanye, harimo imigati yoroshye, ibyo twita amandazi ndetse n'imbada, iriduka, riherereye kumuhanda, uwariwe wese ntashobora kwicwa n'inzara.

Inyubako yubatse neza y'ubucuruzi icuruza ibicuruzwa by'inzoga. Iyi nyubako yubatse ahantu heza kandi irageretse, iherereye ku muhanda ku buryo buri wese ayigeraho byoro...

Umucuruzi ucuruza ibicuruzwa bitandukanye harimo imyenda, inkweto, amasafuriya, amabase, amasorori n'amatelemusi, iyo abaturage bamugannye babona ibyo bakeneye byose, kandi abigurisha ku giciro cyoroheje.

Amazu meza y'ubucuruzi imbere yayo hari umugore ndetse n'umugabo. Umugore afashije umugabo igare, umugabo ashaka gupakiraho ikese ya fanta, agiye kurangura.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu isoko harimo abaguzi ndetse n'abacuruzi abacuruzi bacuruza ibicuruzwa byabo babitanditse ku mifuka harimo: inyanya, ibitunguru ndetse n'ibindi, buri mucuruzi abona amafaranga ku buryo bwe butandukanye.

Hano iwacu dufite abacuruzi bacuruza ibintu bitandukanye hari abacururiza mu mazu hari n'abacururiza mu kirere abo twita abatemberezi uyu mucuruzi afite ibicuruzwa bitandukanye imyenda, inkweto ndetse n'ibite.

Iduka ricuruza ibicuruzwa bitandukanye harimo amazi ndetse na gaze. amazi ni ingirakamaro, amazi ni ingenzi mubuzima bwacu bwa buri munsi.

Umucuruzi ucuruza ibicuruzwa bitandukanye, harimo amabase, amasafuriya, imikubuzo ndetse n'ibitenge. Imbabura n'ibindi byose. Uyu mucuruzi nta kintu wamushakaho ngo ukibure.

Inzu y’ubucuruzi，icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye， harimo imyenda y'abagabo， ndetse n'abagore，amapantaro n'amashati，n'imipira，ku muryango wayo hateretseho ibyo bifashisha， bamamaza ibicuruzwa byabo.

Iduka ricuruza ibicuruzwa bitandukanye harimo indobo ndende, abenshi dukunda kwita ibiduki. Hakabamo na bote bakoresha bari gukora imirimo itandukanye. Iryo duka urisangaho buri kimwe ukeneye.

Abagore n'abagabo, abakobwa n'abasore bahuriye ku mugezi baje kuvoma. Uyu mugezi uriho abantu benshi batonze umurongo, buri wese ari kuvoma hakurikijwe uko yaje.

Igare, ni kimwe mu binyabiziga dukoresha hano iwacu mu Rwanda, ridufasha kwikorera imizigo itandukanye, itwara buri kimwe, ibisheke ndetse n'ibindi. Umuntu ufite igare ntashobora guhura n'ubukene.

Inzu y'ubucuruzi butandukanye higanjemo imyenda y'abagabo, amasengere, imikandara ndetse n'ibindi. Imbere y'iyi nzu hariho agakiyosike cyangwa se akazu gakoreramo umwajenti wa MTN.

Mu murimo w'imana harimo umurimo w'uburirimbyi, aba baririmbyi bambaye neza, bambaye imyenda myiza iniforume y'umukara n'umweru. Aba baririmbyi nibaririmba buri muntu wese aribonamo.

Icyapa kiri ahantu ku muhanda kigaragaza icyerekezo cy'ahantu. Icyapa ni ingirakamaro， gifasha umuntu kumenya aho ari kwerekeza， ndetse n'iyo waba utazi gusoma， iyo ugeze ku cyapa ubwira umuntu uzi gusoma， uti iki cyapa kiragana hehe？

Iwacu mu majaruguru dufite amahoteri atandukanye, yubatse neza, afite ubusitani bwiza kandi bunogeye amaso. Yubatse ku muhanda ku buryo abantu bose bayigana bahita bahagera byihuse.

Ubucuruzi bw'imbuto bufitiye abaturage akamaro. Ubucuruzi bw'imbuto harimo amatunda pome imyembe ndetse n'izindi mbuto zitandukanye. Ni imbuto nziza kandi ziryoha.

Isoko ryiza ryubatse kijambere, ryubatse ahantu heza rigeretse riri ku muhanda, hariho n'ubusitani bwiza. Ni isoko ry'imboga n'imbuto buri muturage wese uriganye, abona buri kimwe akeneye.

Ubucuruzi bw'imbuto zitandukanye harimo amaronji, imineke, ibinyomoro, imyembe ndetse n'inanasi n'amavoka. Ubu bucuruzi ni bwiza, nta muntu ushobora gukenera imbuto ngo azibure.

Ibikoresho dukunda gukoresha mu nzu iwacu. Harimo amasafuriya, amabase, amasahani ndetse n'ibikombe, ibyuma byo guhata ndetse n'ibindi byinshi twasanga hano muri iri duka.

Ubucuruzi bw'amavuta yo kwisiga harimo amavuta atandukanye: vazerine, n'amavuta y'amazi dukunda kwita suzana gereserine n'igikotoro cya moviti. Aya mavuta ni meza uyisize agira...

Iwacu mu Rwanda tugira imbuto nyinshi z'ubwoko bwinshi zitandukanye harimo n'imbuto bita ibifnese . Ibifenesi n'imbuto ziba nini cyane kandi zigira umutobe uryohereye.

Isoko rya kijyambere ryubatse ahantu heza kandi hagari, mu ihuriro ry'abantu benshi. Ricuruza ibicuruzwa bitandukanye harimo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, n'ibikoresho byo mu rugo, ku buryo buri wese ugeze muri iri soko abona icyo akeneye.

Abagore batatu bicaye imbere y'inyubako, bari gucuruza ubucuruzi buciriritse abo twakwita abazunguzayi bacururiza ku muhanda, bafite udutaro bari gucuruza imbuto zitandukanye harimo avoka ndetse n'imineke.

Inzu y'ubucuruzi butandukanye higanjemo ibyo kurya cyane cyane umuceri, amasaka, ibigori ndetse n'akawunga. Ubu bucuruzi bufasha buri muntu wese ntabure icyo akeneye

Mu bikoresho by'isuku tugira hano iwacu harimo imikubuzo cyangwa se imyeyo, iki gikoresho tugikoresha dukora isuku dukubura hanze ndetse no mu nzu nta muntu n'umwe wifuza ko atagira umukubuzo iwe mu nzu.

Ubuhinzi bw'imbuto duhinga hano iwacu, higanjemo inanasi. Inanasi ni imbuto nziza kandi zigira umusaruro, dukoresha inanasi ku buryo butandukanye, ushobora kuvamo umutobe ndetse ukayirya bisanzwe.

Iduka ricuruza ibicuruzwa byinshi bitandukanye harimo amavuta yo kurya umunyu salisa amakaroni ndetse n'ifu y'igikoma iri duka riri ahantu heza kumuhanda kuburyo nta muntu ushobora kuhanyura ataguze umunyu.

Hano iwacu tugira amasoko atandukanye harimo amasoko aciriritse. Muri ayo masoko hacuruzwamo:ibishyimbo, amasaka ndetse n'amafu y'igikoma. Umuturage wese uriganye ntabura icyo akeneye kandi habamo udusanduku two kubika ibicuruzwa by'umuturage kugira ngo batamwiba.

Iwacu ubucuruzi buciriritse harimo imboga, beterave, ibitunguru n'urusenda ndetse n'ibindi bifasha abaturage mu kwiteza imbere bakikura mu bukene.

Ubucuruzi bw'imitobe itandukanye, harimo umutobe twita mirinda, tangawizi, ndetse n'undi mutobe wo mu kajerekani. Iyi mitobe iteretse muri etajeri mu bikarito, ni imitobe myiza kandi iryoha.

Ibitoki ni igihingwa cyiza kandi gikunzwe. Ibitoki bibamo amoko menshi, hari ibitoki birebire ndetse n'ibigufi, habaho ibitoki biribwa n'ibyo bengamo icyo bita "urwagwa" cyangwa se inzoga. Umuturage ugiye guhaha yirobanuza igitoki akurikije ubwoko bw'igitoki akeneye.

Isoko ricuruza imbuto zitandukanye harimo amatunda, ibinyomoro, amavoka, imineke, amapapayi ,ndetse n'imyembe, izi mbuto ni ingirakamaro kuri buri wese.

Umucuruzi ucuruza ibicuruzwa bigendanwa, dukunda kwita abatemberezi. Afite inanasi mu ndobo, kandi zihase, zikataguye uduceduce. Iyo ageze ku muntu ukeneye iya make, arayimuhereza.

Ubucuruzi bw'ibikoresho byo mu rugo bitandukanye, harimo amabase manini ndetse n'amatoya, amadobo ndetse n'ibindi bikoresho biboneka muri iri soko. Umuturage wese ujya guhaha, ibase ayibona ku buryo bworoshye.

Isoko ryiza ricuruza ibicuruzwa bitandukanye, harimo imbuto nyinshi imyembe, amaronji, wotameloni ndetse n'izindi mbuto. Izo mbuto zifasha buri muturage wese kugira ubuzima bwiza.

Ubucuruzi bucururizwa hanze harimo ubucuruzi bw'imyenda dukunda kwita iya caguwa, aba bacuruzi batanditse imyenda yabo hanze ku buryo umuturage wese uraza kugura arahita ayibona ku buryo bworoshye. Hari n'undi mugabo uri gucuruza udufoka twavuyemo sima two gutwazamo ibintu.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye mu isoko rigari, muri iri soko hacuruzwamo ibicuruzwa byinshi harimo n'igicuruzwa cy'ibisheke. Ibisheke ni ibintu bikunzwe cyane hano iwacu mu Rwanda.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu isoko baje guhaha, abandi bari gucuruza, aha iri soko ricuruzwamo cyane cyane imboga twita isombe. Isombe ni imboga nziza zifite intungamubiri nyinshi kandi zihagije.

Isoko ricuruzwamo imboga zitandukanye ,cyane cyane inyanya. Inyanya ni imboga nziza zikungahaye ku ntungamubiri zose ,iyo dukoresheje inyanya tuba twizeye ko twafashe intungamubiri nziza.

Inzu y'ubucuruzi yubatse neza, iri ahantu heza, icururizwamo ibicuruzwa byinshi bitandukanye. Harimo ibikapu by'abagore, ibikapu by'abana bajyana ku ishuri. Iyi nzu ntushobora kuyishakamo igikapu ngo ukibure.

Hano iwacu mu masoko yacu harimo imbuto zitandukanye. Harimo imbuto z'imyembe, amapapayi, pome, amaronji ndetse na watameroni. Umuturage wese uganye iri isoko, abonamo imbuto zose yifuza.

Indagara ni ikiribwa cyiza kandi gikungahaye ku ntungamubiri. Mu mibereho yacu ya buri munsi, iyo mu mafunguro yacu dushizemo indagara, tuba twizeye ko duteguye ifunguro ryiza kandi ryujuje ubuziranenge.